Itsinda ry'abantu biganjemo abana bakiri bato, bicaye bakikije umugore uri hagati yabo wambaye amarineti, bose batumbereye imbere cyane baseka.

Itsinda ry'abantu benshi harimo abanyeshuri biga mu ishuri ribanza, bambaye impuzankano y'umuhondo ndetse inyuma yabo hari abayobozi bishimye cyane, bose barimo baraseka banapopera.

Abana b'abanyeshuri, biga mu ishuri ribanza, aho bambaye impuzankano, ndetse bafite uburoso bw'amenyo, barimo barakorera amasuku amenyo yabo. Abana barishimye.

Umusaza urimo araterurwa n'umugabo ndetse n'umugore, arimo aritabwaho neza aho bamukuye ku gitanda ngo atambuke agorora amaguru.

Umusaza ugeze mu zabukuru ufite igitabo imbere ye ku meza aho yicaye, akaba afite n'itkaramu ya bike arimo arandika yambaye rinete.

Inyubako irimo abantu babiri hakaba harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'ameza intebe ndetse n'utubati muri abo bantu babiri hakaba harimo umugore n'umugabo umugabo akaba arimo aratozwa kugenda agendeye ku byuma arimo atozwa n'umugore w'umuganga.

Icyapa kiri mu ibara ritukura kiranga Ikigo nderabuzima cya Matyazo, aho harimo abagore babiri ndetse n'umwana uri inyuma, barimo barasohoka muri ibyo bitaro.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga hakaba harimo umugabo urwaye akaba yicaye ku ntebe yambaye agapfukamunwa ndetse banamupfutse ku kuboko.

Inyubako ya koridoro, irimo ibikoresho by'ibyuma bitandukanye nka za jenereta n'ibindi, imbere hakaba hari udukarito tubiri turambitse hasi.

Inyubako irimo imitako itandukanye, irimo imbuto ndetse harimo na none igitanda cyo kuryamaho n'ibindi bikoresho bya gihanga.

Itsinda ry'abagabo bane, bambaye imyambaro yabugenewe yo gukora siporo, aho barimo barirukanka mu kibuga bazenguruka.

Abantu babiri barimo baranywa amazi bagizwe n'umugore ndetse n'umugabo we, aho bavuye muri siporo bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo.

Abantu babiri b'igitsina gore bose bicaye mu kibuga aho bose bipfutse ku munwa ndetse umwe muri bo yakomeretse ukuboko kw'iburyo.

Uducupa dutandukanye, utureture n'udutoya, turimo umuti gakondo ushinzwe kuvura indwara zitandukanye, tumwe turi mu ibara ry'icyatsi, utundi ubururu, utundi umweru.

Agati kabaje neza mu giti karimo ibinini by'icyatsi, biba byatunganyijwe neza bivuye mu miti gakondo.

Agacupa karekare kari mu ibara ritukura ndetse n'igipapuro kiri inyuma, kiranga ibitunganyo kugira ngo uyu muti gakondo uboneke. Kaba hariho ishusho ry'igikakarubamba ndetse n'inyanya.

Imiti y'ubwoko bwose itandukanye iva mu byatsi by'ibimera nk'igikakarubamba n'ibindi, hejuru hakaba hari igishushanyo cy'umuntu urimo araseka n'amenyo meza.

Icyapa kiriho agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru ndetse n'igipapuro cyanditseho amagambo ari mu ibara ritukura ndetse n'uruyuki, umuti gakondo urimo aha ukomoka mu buki.